Gusabana ni byiza, gusangira ni byiza turabikunda, bituma abantu bungurana ibitekerezo, bakaganira, bakubaka igihugu n'ubuzima muri rusange.

Ni byiza gucuruza amagi uyacururiza mu ikureyi, aba ari byiza cyane bituma amagi atameneka turabikunda.

Ni byiza cyane ko umumotari aparika mu ry'itanu, kugira ngo polisi itamwandikira agomba kubikunda cyane.

Ni byiza cyane ko akazi umuntu akora akamamaza, abacuruzi nti babaririze aho bajya kugurira no kurangurira ni byiza cyane.

Gucururiza mu ikontineri byiza, nta musambo wapfa kuhatobora. Aba Ari ahantu hatuje, hafite n'umutekano hameze neza.

Amasafuriya ,ibikombe n'indobo ni ibikoresho bidufasha mu mirimo myinshi. Kandi mu byerekeranye n'imibereho myiza, ni ibikoresho dukunda cyane.

Ni byiza ibikorwa remezo mu gihugu .Cyane nk'amayetage n'amashanyarazi, ari byiza cyane.

Ibihombo ni byiza bidufasha mukugera ku iterambere ryo kubona amazi mu gihugu. Muri rusange ni byiza cyane, turabikunda.

Ahantu ho kwiyakirira aba ari ngombwa da, kubera ko bituma hafasha umuntu iyo ari mu rugendo, iyo akoze urugendo rurerure biramufasha akaruhukiramo akanywamo n'icyo ashaka.

Ni byiza gucuruza, gukunda kurangura utuntu twose byose ukaba ubifitemo amasafuriya, byose ukaba ubifitemo ni byiza cyane.

Sitasiyo ni nziza cyane ituma tuyweshya ibinyabiziga ahantu hafi, kandi tudakoze urugendo, bikadufasha vuba turabikunda.

Ni byiza cyane gucuruza, ugacuruza utuntu twose. Ukaba ufitemo intebe, ukaba ufitemo ibyo kurya. Buri kamwe kose ukaba ugafitemo. Ibyo bintu ni byiza, abantu barabikunda.

Ni byiza cyane kwamamaza ibyo ukora, nawe uri kubikorera. Turabikunda, bituma umuntu atayoba.

Gakenke turahakunda habayo imineke, imbuto, inanasi Gakeke ni nziza ni nziza turayikunda cyane.

Kwambara neza, ukaba uri n'ahantu heza, aba ari byiza cyane. Tugomba kubikunda ni ibyo agaciro.

Nii byiza ko resitora cyangwa agahoteri, kagira umuntu utanga karibu, ufasha umukiriya. Ni byiza turabikunda.

Amavuta adufasha mu mirire, no mu kurya ibiryo bimeze neza, no mu guhumuza ibiryo. Ni byiza turabikunda.

Kwisiga amavuta ni byiza, bituma umubiri ucya, ugahinduka, ukaba mwiza, ukaba inzobe, mbese ukaba mwiza cyane.

Amasoko ni meza cyane. Atuma umunyarwanda wese arya icyo ashaka, akanywa icyo ashaka, akanambara icyo ashaka, ni meza cyane.

Inkweto ni nziza nta munyarwanda ucyambara ibirenge. Inkweto turazikunda, inkweto zituma umuntu adakomereka, inkweto ni nziza cyane.

Udutoroshi ni twiza, dufasha umuntu mu muyobe, iyo atari kureba. Aragakongeza, kakamumurikira. Ni keza turagakunda.

Watametoni turayikunda, ziba zirimo n'imbuto, turabikunda. Dukundana n'abantu bacuruza ibintu by'imbuto, aba ari byiza cyane.

Abagore bakunda gutera kanta, no kunanura umusatsi, utuma abagore baba beza ukabona barakeye.

Gucuruza inanasi mu ndobo ni byiza cyane, n'ufite igiceri gikeya abonaho, akaguraho mu bushobozi bukeya afite ibyo turabikunda.

Karoti ni nziza cyane. Kuzihekenya, ni umuti uvura amaso. Karoti Ndazikunda.